Inama y'abantu batandukanye, bahuriye ku meza amwe, imbere yabo hari amacupa y'amazi, bakaba bateze amatwi uri kubaha ikiganiro, mu buryo bwizewe.

Abagabo batatu bicaye ku ntebe z'imikara, umwe yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, undi yambaye ishati y'umweru ndetse n'undi yambaye ishati y'umweru. Ku meza imbere yabo, hateretse indangururamajwi ndetse n'agacupa k'amazi.

Icyumba gisize irangi ry'umweru ndetse n'amarido meza ya kaki harimo kamera z'umukara, hateraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, aho imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi.

Inama ihuje abantu benshi, buri wese afite ibyo ari kwandikaho, amakaramu, amacupa y'amazi ndetse bakaba bafite umuntu uri kubaha ikiganiro ku ngingo runaka bari kwigaho uyu munsi.

Abaturage benshi higanjemo abagore, bahagararanye na DASSO ndetse n'umugabo wambaye ikote n'ishati y'umweru, bafite ihene mu ntoki, bari gukurura ibiziriko byazo, hirya yabo hari inzu iteye umucanga ndetse n'urutoki rwinshi.

Ahateraniye abantu benshi bari mu ngeri zitandukanye; abakuru, abato, abagabo, abagore bisa n'aho hari uwo biteguye kwakira kuri uyu munsi ngo agire icyo abagezaho.

Inama yahuje abantu benshi batandukanye, imbere yabo hari ameza ateguyeho ibitambaro bibiri icy'umutuku, icy'umweru, ndetse buri wese afite icupa ry'amazi imbere ye, bakaba bakurikiye ikiganiro.

Umugore mwiza, yambaye igishura cy'umutuku ndetse iruhande rwe hari impapuro. Yicaranye n'abagabo babiri, umwe wambaye ingofero n'umukufi w'umweru. Ku meza, hateretseho indabyo nziza.

Urubyiruko rwateraniye hamwe, ruganira ku ngingo zitandukanye. Hagati yabo, hari ameza ateretseho telefone, agakapu, urupapuro n'icupa ry'amazi. Urubyiruko ni imbaraga z'Igihugu.

Ihuriro ry'abantu benshi, bigaragara nk'aho bari mu nama, hari abagore babiri bicaye ku mwanya w'imbere, bose bambaye rinete, imbere yabo hari ibikombe, amaterefone, ibiyiko, amasahane ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu nama.

Inama ihuriwemo n'abantu benshi batandukanye abagore, abagabo; imbere yabo hakaba hari copiyuta, amacupa y'amazi yo kunyw; bakaba bitonze bakurikiye uri kubaha ikiganiro.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye bicaye, imbere yabo hari uducupa tw'amazi mikorofone ndetse bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro kandi inyuma yabo hari izindi ntebe nyinshi ziticayemo abantu.

Abayobozi bane, abagabo batatu n'umugore umwe, bicaye imbere yabo hari amacupa y'amazi, mikorofone, bakaba bafite ibintu bari kuganiraho kandi bifitiye akamaro abaturage.

Icyumba cyiza cy'inama cyateraniyemo abantu benshi, imbere yabo hari mudasobwa, amacupa y'amazi ndetse bafite umuntu uri kubagezaho ikiganiro na bo bateze amatwi bari kumwumva.

Sare iteraniyemo abantu benshi bambaye imyenda itandukanye, hari umugore wambaye ikanzu y'umukara ndetse n'amarinete afite terefone mu ntoki, yegeranya n'undi wambaye umupira w'ubururu ku ipantaro y'umukara ndetse wambaye n'agakoma ku kaboko.

Ihuriro ry'abantu benshi bicaye mu mpande enye barebana, bose bicaye ku ntebe z'umweru hari idarapo ryo mu ibara ry'umuhondo icyatsi ndetse n'ubururu, imbere yabo hari umugore uri kubagezaho ijambo.

Icyumba giteraniyemo abantu b'ingeri zose, yaba abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Hagati yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu gifite amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, kikaba kiriho idarapo ry'u Rwanda ririmo amabara atatu, ndetse n'izuba. Hakaba hahagaze umugabo imbere yacyo umeze nk'aho arigutanga ikiganiro ku bamukurikiye.

Ihuriro ry'abantu benshi higanjemo abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko, bambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi abandi umuhondo, ku meza hateretseho ji ndetse n'amazi.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye, abagabo, abagore, bisa nk'aho bari mu nama, bakaba bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro muri iyo sare. Buri wese afite urupapuro, ikaramu ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu nama.

Icyumba cyateraniyemo abantu benshi, yaba abagore ndetse n'abagabo, ku meza hariho mudasobwa, ajenda, ikaramu ndetse n'uducupa tw'amazi, hadekoresheje ibitambaro by'umuhondo n'ubururu.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye ay'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu bwerurutse. Kikaba kiri kwerekana uburyo wakwaka ikarita ya EBM ukoresheje ikoranabuhanga.

Icyumba kinini kandi gitangaje kirimo ibintu bitandukanye intebe nyinshi ziri mu ibara ry'umukara, ameza manini ari mu ibara ry'umweru, amatara menshi kandi arimo kwakira rimwe.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru kikaba cyanditseho amagambo akoreshejwe n'ibara ry'ubururu, munsi yayo hari amabara y'umuhondo, ubururu, icyatsi, ubusazwe iki kigo ni ikigo gihagarariye amasomo muri rusange.

icyapa kiri mu ibara ry'umweru kikaba cyanditseho amagambo menshi kandi akoreshejwe amabara atandukanye, akoresheje amabara y'ubururu bwerurutse ari mu ibara ry'umukara ndetse hakaba hariho n'ikirango cy'igihugu iri tangazo riri kuvuga ku bijyanye n'ibiruhuko rusange.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi, bafite mudasobwa, telefone, n'uducupa tw'amazi imbere yabo hari umuntu uri kubigisha ku bintu bitandukanye, hari n'ikibaho ku buryo hari ibyo badasobanukiwe yakwandikaho.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, kikaba cyanditseho amagambo, amwe akoresheje ibara ry'umweru, andi akoresheje ibara ry'ubururu, kikaba kiri kwerekana serivisi zitangirwa ku irembo mu buzima bwa buri munsi.

Ishusho y'icyapa cy'umweru iri hejuru y'ibihingwa by'umuceri, hakaba harimo abaturage bari gukorera uwo muceri ngo uzere neza mu gihe kiri imbere.

Inzu itangirwamo serivisi zitandukanye harimwo umwagenti uri guhabwa servisi nziza zijyanye n'ibyo yifuza ndetse ikaba ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Igikuta kiriho icyapa kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru cyanditseho wayifayi y'ubuntu, aho ku mugoroba abantu basoje akazi, baza kuhicara bakayikoresha dore ko kuyibona biba bigoye.

Ishusho nziza iriri mu ibara ry'umweru, ifite amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu, iri kwerekana serivise zose zitangirwa ku Irembo, buri wese akaba akangurirwa kugana Irembo akabona serivisi mu buryo bwihuse.

Ipoto ndende ihuriweho n'insinga nyinshi, bigaragara ko itanga umuriro ahantu henshi, ikikijwe n'ibintu byinshi kandi bitandukanye: Ibiti birebire, bigufi, insina ndetse n'ingo hafi yayo.

Ipoto nini kandi ndende, ihuriweho n'insinga zitanga umuriro mu ngo zitandukanye, ikaba yegeranye n'inzu ifite urugi ruteye irangi ry'ubururu ndetse n'indi ifite umuzenguruko w'irangi ry'icyatsi.

Ipoto ihuriweho n'insinga nyinshi zitanga umuriro mu ngo zitandukanye, ikaba iri haruguru y'umuhanda ndetse haruguru yaho hari urugo rufite urugi ruri mu ibara ry'ubururu bwerurutse, hakaba hateyemo n'igiti kinini kandi gikuze.

Inzu nini kandi nziza isize irangi ry'umweru, ikaba ifite amabati asa n'ashaje asize irangi ry'umutuku, ikaba ifite urugi rusize irangi ry'umukara n'insinga zinyura hejuru yayo.

Ipoto ihuriweho n'insinga nyinshi bisa naho itanga umuriro mu ngo nyinshi, ikaba ikikijwe n'ibiti byinshi kandi bitandukanye indabyo, imikindo, ndetse n'inzu hafi y'iyo poto.

Ipoto ndende ihuriweho n'insinga nyinshi. Isa n'aho igabura umuriro ahantu henshi kandi hatandukanye. Ikikijwe n'amazu menshi kandi maremare ndetse ikaba iri ku muhanda.

Amapoto atatu kandi maremare akikijwe n'ibiti birebirire kandi bitandukanye; akaba ahuriweho n'insinga zitanga umuriro mu ngo zitandukanye, ndetse n'impande yayo hari ingo zimwe na zimwe zahawe umuriro.

Ipoto ndende, iruhande rwayo hari igiti kirekire bita gereveriya ndetse iyi poto iteye hagati y'igiti gifite amababi ari mu ibara ry'icyatsi.

Amapoto abiri ahuriweho n'insinga nyinshi zitanga umuriro mu ngo zitandukanye, yegeranye n'inzu ebyiri nziza kandi ndende ziherereye hafi y'umuhanda.

Iyi nzu ifite imiryango myinshi bisa n'aho ari ibiro by'umurenge cyangwa by'akagari, ahatangirwa serivise zitandukanye mu buzima bwa buri munsi, ibi bigafasha abaturage kubona serivise bakeneye.

Ikigo nderabuzima cya Muhima cyegereye ku muhanda. Imbere yacyo hari imodoka iri mu ibara ry'umutuku, ndetse hakaba hariyo abantu baje kwaka serivisi z'ubuvuzi kuri ibyo bitaro.

Ibitaro bya Kabgayi bivura amaso, kuwa mbere tuvura kuva saa kumi n'imwe za mu gitondo kugera saa kumi za n'imugoroba, ku minsi itari iy'akazi, twakira indembe n'abakoze impanuka.

Abantu batatu bicaye ku ntebe za sheze harimo umugore umwe n'abagabo babiri, imbere yabo hari ameza ariho ibitabo n'impapuro, hahagaze umugore uri kubasobanurira ibintu bitandukanye.

Umugore wambaye amapingu ndetse n'immyenda y'imfungwa ari kumwe n'undi mugore ushinzwe umutekano ndetse n'umugabo inyuma ye uri gufunga imodoka, niba umuntu yakoze icyaha agomba kubihanirwa.

Umuyobozi usa naho ari umwavoka mu rukiko, ahagaze inyuma y'idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu; ubururu, icyatsi, umuhondo, akaba afite mikorofone ari kugeza ijambo ku bamukurikiye.

Umugabo wambaye amarinete, ikote ry'umukara, ishati y'umweru ndetse na karuvati ari imbere akurikiwe n'imfungwa eshatu ndetse n'abandi bapolisi bahagaze imbere yazo. Inyuma yabo, haparitse imodoka nyinshi harimo n'iya polisi.

Ahantu mu giturage hateraniye abaturage benshi, bamwe bicaye ku ntebe abandi bicaye hasi ndetse n'abahagaze, hagati yabo hari umugabo wambaye imyenda y'imfungwa ndetse n'abagore n'abagabo, bambaye amadarapo y'u Rwanda.

Ihuriro ry'abantu benshi kandi batandukanye, bigaragara nk'aho ari inama y'abantu bakomeye, kuko harimo perezida w'igihugu na madamu we bakaba bishimye bisa naho babwiwe ibintu byiza.

Umukandida wa efuperi Inkotanyi ari kwiyamamaza ahateraniye urubyiruko rwinshi ndetse n'abakuze, bose bafite amadarapo y'iryo shyaka bari kuzunguza hejuru n'ibyishimo byinshi.

Imbaga y'abantu iteraniye hamwe, imbere yayo hahagaze abagabo batatu umwe wambaye umupira w'umweru wanditseho indi ntambwe n'ipantaro y'ikoboyi, ari kumwe n'umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro ya kaki ndetse n'undi wambaye ikote ry'umweru n'ipantaro y'umweru.

Abantu benshi higanjemo urubyiruko, batonze umurongo muremure bagana mu cyumba. Abasaza ni bamwe mu bantu batajya babasha guhagarara umwanya munini, aho bahita bahabwa akanya bakabanza.

Umugabo munini, wambaye amarinete, wambaye ikote na karuvati, imbere ye hari mudasobwa, mikoro fone, akaba ameze nk'uri gutanga ikiganiro kubamukurikiye.

Inama yateranyije abantu batandukanye, abagore, abagabo, buri wese akaba yicaye mu ntebe y'icyubahiro imbere ye hari icupa ry'amazi, bakaba bateze amatwi uri kubaha ikiganiro muri iyo sare.

Abagabo batatu bahagaze imbere yabantu bake, umwe yambaye ishati y'umweru, ikoti ry'umukara n'ipantaro ya kaki, undi yambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru, imbere ye hari indangururamajwi, hakurya yabo hari amazu yubatswe mu bwoko bwa konoshi.

Abantu benshi bahagaze hamwe bari gufata ifoto harimo abambaye imipira y'ubururu abandi imipira y'umweru ndetse n nabayobozi babo bicaye ku ntebe imbere yabo, bafite impapuro z'umweru mu biganza byabo.

Umugore mwiza yicaye ku ntebe y'umukara, ari kumwe n'undi mugabo, nawe wicaye, uyu mugore yambaye umukenyero, ndetse n'akabodi k'ubururu, afite amaherena kandi yambaye rinete.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu, karuvati y'umutuku n'ishati y'umweru, imbere ye hateretse mudasobwa, telefone ndetse n'indangururamajwi, hari icyapa cyanditseho amatora ya bibiri na makumyabiri na kane, umukandida MPAYIMANA yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru.

Inzu nini irimo amatara abonesha neza ndetse n'amarangi y'umweru, imbere hari televiziyo iri kwerekana ibiri kuvugwa, hicaye abantu benshi bafite mudasobwa imbere yabo n'amacupa y'amazi.

Abitabiriye inama bagera kuri batanu, abagore bane umugabo umwe, imbere yabo hari ameza mikorofone, amacupa y'amazi ndetse inyuma yabo hari idarapo ry'igihugu n'ikirango cy'igihugu.

Moto yo mu bwoko bwa Rivani itwawe n'umuntu umwe, ikaba ipakiye ibintu byinshi. Iri mu muhanda yonyine, hakurya yayo hari uruzitiro rw'icyatsi, ibiti birebire, hakaba hari n'ipoto hafi y'umuhanda.

Umuhanda mwiza ucyeye utagize umwanda n'umwe urimo. Harimo imodoka iri mu ibara ry'umweru inyuma yayo hari umutaka urimo ibara ry'umuhondo bisa naho hari umwajenti uhakorera ndetse inyuma ye hari abaturage benshi batandukanye, amapoto n'inyubako nyinshi muri ako ga,,,

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu. Hakaba haparitse moto iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo, ariko idafite umuntu uyitwaye. Hafi y'uyu muhanda hari ingo nyinshi ndetse n'amapoto ku muhanda.

Imodoka iri mu bwoko bwa kwasiteri, itwaye abagenzi ibajyana mu duce bagiye batuyemo. Ku muhanda, hari abantu bahagaze, abasore babiri, umwe wambaye umupira w'umutuku n'undi wambaye umupira w'umukara.

Gare iparitsemo imodoka nyinshi ndetse n'amazu atatse ubwiza, abantu baturutse mu turere twose tw'igihugu ndetse no hanze, bose bahurira muri iyi gare bafata ibinyabiziga bibaganisha aho bagiye.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru, iri mu muhanda rwagati bisa n'aho iri kugenda, hakurya y'umuhanda hari uruzitiro rw'icyatsi ndetse n'ibiti byinshi kandi birebire.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru uyu muhanda ukaba wegereye inzu cyane muri uyu mujyi kandi hakaba hari n'ibiti hafi yawo.

Imodoka ebyiri zizwi ku izina rya litiko, zikaba ari imodoka zitwara abagenzi benshi, zikaba zihagaze aho zifatira abagenzi ndetse zikaba ziri kubona abo zitwara mu buryo bwihuse.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso ipakiye ibintu byinshi, itwikirije ihema ry'ubururu. Ifite amabara menshi harimo ay'icyatsi ndetse na oranje, inyuma yayo hari imodoka, itwara abagenzi iri mu bwoko bwa kwasiteri.

Imodoka nini izwi ku izina rya Ritiko ikaba itwara abagenzi benshi kuruta izindi iri mu muhanda iri kugenda inyuma yayo hari moto ndetse hafi y'umuhanda hateye ibiti byinshi birebire.

Imodoka yo mu bwoko bwa rukururana iri mu muhanda wa kaburimbo aho ipakiye ibintu byinshi batwikirije ihema, ndetse haziritseho n'imigozi myinshi. Iruhande rwayo harigutambuka umugabo wambaye ijre y'icyatsi, ipantaro y'umukara, ndetse na bote.

Mu muhanda bisa n'aho harimo ibinyabiziga byinshi ama moto atwaye abagenzi, imodoka nini y'ibara ry'ubururu, hakurya yaho hari inzu isize amarangi menshi ndetse itatse y'ibyapa byinshi bisa nkaho hari ibikorerwa tuyeyo.

Imodoka nini iri mu bwoko bwa fuso iri mu muhanda wa kaburimbo itwaye inka nyinshi. Hakurya yayo hari ibiti birebire byitambitse mu muhanda. Ndetse hari n'ibindi binyabiziga biri kugenda imbere.

Umuhanda wa kaburimbo ni mwiza kandi usukuye, harimo moto iri mu bwoko bwa rivani ikaba ifite ibara ry'ubururu, ndetse muri uyu muhanda harimo ibinyabiziga byinshi nka moto ndetse n'abantu benshi.

Umuhanda wa kaburimbo, wubakishije amabuye akomeye. Harimo imodoka y'umweru ndetse n'umunyonzi uri gusunika igare ririho umutwaro munini wa rugano. Hakurya hari ibiti by'amabara meza.

Umuhanda wa kaburimbo wacukuritse urimo ibinyabiziga bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka itwara abagenzi, hakurya y'umuhanda hari amatara ndetse n'ibiti bitoshye, harimo kandi umugabo ufite umufuka ku mutwe.

Imodoka nini itwara abagenzi, irimo abantu benshi bagiye mu byerekezo bitandukanye. Si byiza kugenda n'amaguru, watega imodoka cyane ko amafaranga aba ari make.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu ibinyabiziga nk'amamoto, amagare, amamodoka kandi menshi ndetse hakaba hakikiwe n'ibiti byinshi kandi birebire n'inzozi yo mu bwoko butandukanye.

Ikinyabiziga cyisumbuye kuri moto gitwara imitwaro kiri mu muhanda wa kaburimbo, handitseho nimero umushaka wamuhamagaraho arizo zeru karindwi umunani gatanu gatatu icyenda umunani karindwi karindwi gatatu.

Imodoka nini izwi ku izina rya Hoho, itwaye umucanga, ikaba iri mu ibara ry'umutuku, hafi yayo hari ibiti birebire biri mu ibara ry'icyatsi kandi byinshi.

Imodoka iri mu ibara ry'umukara iruhande rwayo hari moto iri mu bwoko bwa livani ikaba ifite ibara ry'ubururu bikaba bihagaze aho bita muri zebura korosingi aho bihagarara abagenzi bagatambuka.

Imodoka eshatu zikoreshwa mu kwigisha gutwara imodoka, ziri mu ibara ry'umutuku, zikaba ziri imbere y'ibihuru ndetse n'ibiti birebire bisa n'ibiteye muri ibyo bihuru.

Ku kigo cy'amashuri abana bari gukina umupira, iruhande rw'amashuri yabo bakaba bishimiye uburyo bari gukina, amashuri yabo asakaje amabati y'umutuku kandi hateye n'indabyo z'ubwoko butandukanye.

Icyuma kizwi nk'igifotora ibinyabiziga byarengeje umuvuduko wabugenewe, giteye hafi y'ipoto ndetse hafi yabyo hari ibiti birebire byinshi kandi bikuze cyane.

Ibyapa bibiri kimwe gitanga ikaze kubaza mu Rwanda ikindi kikaba kiri kwerekana akarere ka Gicumbi bikaba ari ibyapa biteye hagati y'imihanda ibiri umuhanda umwe urimo imodoka nyinshi n'aho undi nta modoka zirimo.

Umuhanda wa kaburimbo ariko muto, urimo abantu benshi bawuzuye. Haruguru hari ikibuga kirimo ibyatsi ndetse n'ibiti. Hari kandi icyapa giparikaho imodoka, aho iyo ugeze aho ushaka kujya, imodoka iba yemerewe guhagarara igakuramo abagenzi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, ukikijwe n'ibyatsi, ibiti, indabo biri mu ubwoko bwinshi ndetse n'amatara ku muhanda, ibyapa biyobora abagenzi kandi biri mu bwoko butandukanye.

Icyapa cy'umweru gifite umuzenguruko w'umukara kikaba kirimo imibare ibiri kane na zeru, kikaba cyitwa kuri mirongo ine mu buzima busanzwe.

Icyapa gifite umuzenguruko uri mu ibara ry'umutuku, imbere h'icyo cyapa harimo ibara ry'umukara; akaba ari icyapa gifite icyo gisobanuye kuri buri muntu wese uzi uburyo gikoreshwa.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, kikaba cyanditseho amagambo akoreshejwe ibara ry'umweru, ubusanzwe iki cyapa ni icyereka imodoka guhagarara, abagenzi bagatambuka.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu, ibinyabiziga ndetse impande z'uwo muhanda hateye ibiti biri mu bwoko butandukanye, indabyo ndetse n'amapoto, hakaba hari n'ibyapa biri mu bwoko butandukanye.

Mu giturage, hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi, cyanditseho Akanyaru, Huye, Muhanga, Ruhango, Kinazi. Inyuma yacyo, hari inzu isakaje amabati y'umutuku, iteye karabasansi.

Inzu nyinshi zituye mu kajagari, Abanyarwanda bagirwa inama yo gutora neza bakirinda akajagari kuko bahura n'ingaruka nyinshi zitandukanye, hari kandi insinga z'amashanyarazi ndetse n'ibigega by'amazi.

Inzu nyinshi kandi nziza zubatse mu bwoko butandukanye za etage ndetse n'izubatse mu buryo busanzwe, hagati yazo hateye ibiti byinshi kandi birebire.

Inzu isakaje amabati afite ibara ry'umutuku, asa n'ashaje, hagati mu gipangu hateyemo insina, amapapayi, avoka ndetse hejuru y'iyo nzu haca insinga nyinshi zitanga umuriro mu ngo zitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uriho icyapa cyanditseho Remera. Ni mu Mujyi wa Kigali, aho abantu bose bishimira gutura. Hari kandi ibiti by'imikindo ndetse n'inzu za etaje nziza cyane.

Inzu nziza y'igorofa igeretse gatatu, ikaba ifite inzugi nziza kandi nini zisize irangi ry'umweru, impande y'iyo nzu hari insinga nyinshi zambukiranya zitanga umuriro mu ngo zitandukanye, iruhande rwayo hakaba hahagaze umukobwa uri kuri telefone.

Mu mahuriro y'imihanda harimo imodoka zitandukanye, hakaba harimo indabyo nziza kandi ndende hagati y'iyo mihanda, ndetse n'abanyamaguru bari hakurya mu nkengero z'uwo muhanda, hakaba hateye n'ibiti byinshi mu mpande zombi.

Umuhanda wa kaburimbo uri munsi y'ikiraro, urimwo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, amamodoka, amagare, amamoto, ndetse n'abagenzi benshi bari kugenda kuri uyu munsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa n'ushaje hari n'ibinyabiziga bitandukanye; amamoto, amagare amamodoka ndetse impande zawo hateye ibiti birebire n'amapoto atanga umuriro ndetse na matara yaka nijoro.

Mu muhanda mwiza harimo moto imwe, imodoka eshatu; imwe iri mu ibara ry'umukara, indi mu ibara ry'umweru, n'indi mu ibara ry'umutuku; ndetse mu mpande z'uyu muhanda hari ibiti byinshi kandi bikuze.

Umuhanda wa kaburimbo umeze nk'ushaje urimo ibinyabiziga bitwaye abagenzi ndetse hakaba harimo n'abanyamaguru, mu mpande z'uwo muhanda hateye ibiti byiza kandi birebire, hakaba hariho na ya matara yo ku muhanda yaka nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo ukeye, harimo moto ebyiri, iruhande rwawo hateye ibiti, amapoto, imodoka ebyiri ziri mu bwoko butandukanye ndetse n'inzu ziri hafi y'umuhanda n'icyo twita indangagaciro.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, ku ruhande rwawo hari amatara yo ku muhanda, amapironi ndetse n'ibiti birebire.

Umuhanda mwiza usukuye ukikijwe n'amatara yo mu muhanda azwi nk'ayaka nijoro, ibiti byinshi kandi bikuze ndetse n'inyubako hakurya yawo, hakaba harimwo imodoka moto ndetse n'abagenzi ku mpande zombi.

Mu ihuriro ry'imihanda bigaragara ko nta binyabiziga byinshi birimo uretse moto imwe, hakaba hari ubwiganze bw'ibiti birebire hafi y'iyo mihanda ndetse n'inzu ziri hafi y'umuhanda.

Umuhanda utarimwo ibinyabiziga byinshi; ukikijwe n'amatara amwe yo mu muhanda, ibiti, amazu ndetse n'umuntu bisa nkaho ashaka kwambuka ngo ajye kundi ruhande.